Ni inzu nini yicayemo abantu benshi bagiye batandukanye, abagore n'abagabo, intebe bicayeho zikoze mu biti, hadekuye ibitambaro biri mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo.

Ni inzu nini yubakishije amakaro ku rukuta no hasi, irimo abantu benshi bicaye ku ntebe, ku ruhande hasizeho irangi ry'umuhondo harimo abafite mashini.

Ni inzu nini igaragara neza yubakishije amakaro ku bikuta, irimo abantu benshi bagiye batandukanye abagabo, abagore, ku meza hateretseho icupa ry'amazi.

Ni inama y’abantu benshi bagiye batandukanye abagabo n'abagore, bicaye ku ntebe zifite imisego isa umutuku hari mashini zifite ibirahure by'umukara.

Ninzu yicayemo abantu batatu kuntebe z'umukara kumeza y'umutuku hariho ubucupa bwamazi umunani, hari umukobwa ufite imisatsi yumukara wambaye amarinete.

Ni abantu bane bari muri iyo nzu umwe n'umukobwa usutse ibintu by'umukara wambaye ikoti ry'umutuku, imbere yabo kumeze neza hari ibicupa by'amazi bakoresha banywa.

Ni inzu nini ifite ibirahuri by'umweru isize irangi ry'umukara hasi irimo abantu benshi bagiye batandukanye, abagabo, abagore, kumeza hariho icupa ryamazi.

Ni inzu irimo abakobwa batatu, umwe yambaye ikanzu isa umutuku, yambaye amarinete, ni inzobe, afite imisatsi y'umukara, undi yazamuye ukuboko

Ni inzu isa nk'iyubakishije ibirahure byinshi bisa umukara imbere hari abantu benshi b'abagabo bisa nk'aho bari bahagaze bagiye kubafotora amafoto agiye ata.

Ni inzu irimo abantu benshi ndi kubona abagabo bambaye imipira y'ubururu bicaye ku ntebe z'umweru bambaye amapantaro y’umukara harimo abafite terefoni z'umukara.

Ni inzu nini igaragara ko ari iy'inama zigiye zitandukanye yubakishije amakaro ku bikuta irimo abantu benshi bagiye batandukanye bicaye ku ntebe z'umukara imbere.

Ni inzu nini iberamo inama irimo abantu benshi bagiye batandukanye ,abagore ,abagabo ndetse harimo abirabura, abanyafurika bagaragara ko bari gukora ibintu bigiye bitandukanye.

Ni inzu nini irimo abantu benshi bagiye batandukanyiye abagore, abagabo n'abasore n'inkumi bishimye bigaragara ko bari mu gitaramo hejuru kuri stage hari umuntu .

Ni inzu bakoreramo inama irimo abantu barindwi bicaye ku ntebe z'umukara, buri muntu wese afite amazi imbere ye hakaba hari izindi ntebe nyinshi ziticayemo abantu.

Ni umukobwa winzobe ufite imisatsi y’umukara wambaye ikanzu irimo imirongo y’umweru, n’umukara bigaragara ko ari gutanga ijambo kubantu bari bitabiriye.

Ni inzu nini igaragara neza isize irange ry'umweru, imbere hariho agataburo gasize irange ry'umukara harimo abantu benshi bagiye batandukanye.

Ni inzu nziza iri kuberamo inama irimo abantu batanu bagiye batandukanye, abagabo n'umugore ku meza hateretseho icupa ry'amazi, mashini.

Ni umuhanda w'igitaka urimo abantu benshi bagiye batandukanye abahungu abakobwa bambaye imyenda igiye itandukanye, inyuma yabo hateye ibiti birebire.

Ni dari rinini ryiciyemo abantu benshi bagiye batandukaniye, abagabo, abagore, byubatse hariho ibitambaro bisize irangi ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi, imbere hahagaze umukobwa umwe.

Ni inzu nini bigaragara ko iri kuberamo inama, ibikuta byayo byubakishije amakaro. Mu nama hicayemo abantu benshi bagiye batandukanye bicaye ku ntebe z'umukara, ameza asize irange ry'umutuku.

Ni sare nini isize irangi ry'umweru irimo abantu benshi, imbere hari umugabo ufite ikaramu n'ikayi, wambaye imyenda y'abashinzwe umutekano, abantu bicaye imbere bose bafite icupa ry'amazi ndetse n'irya ji.

Ni icyumba k'inama kirimo abantu umunani barindwi baricaye umwe ni we uyoboye inama, imbere ye hari imashini n'icupa ry'amazi, inyuma hari ikirangantego k'idarapo ry'u Rwanda.

Ni inzu nini irimo abantu bagiye batandukanye, bigaragara ko ari urubyiruko abahungu, n'abakobwa bicaye ku ntebe z'umukara, kumeza hateretse icupa ry'amazi.

Ni umuhanda w'igitaka urimo urujya n'uruza rw'abantu benshi bagiye batandukanye, abenshi biganjemo n’urubyiruko abahungu n'abakobwa, bigaragara ko ari inama iri kuhabera.

N' inzu nini iri kuberamo inama, irimo abantu benshi bagiye batandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara ,kumeza hateretseho amacupa y'amazi....

Ni inzu isize irange ry'umweru irimo abantu benshi bagiye batandukanye abagabo n'abagore, bicaye ku ntebe ameza bariho hariho mashini icupa ry'amazi, n'impapuro z'umweru.

Ni inama y'abantu cumi na babiri. Icumi n'umwe bambaye imipira y'ubururu irimo amagambo yandikishije umweru, hahagaze undi wambaye ishati y'umweru; ufite mikoro n'ipantaro y'umukara.

Ni inama y'abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara buri wese imbere ye hateretse icupa ry'amazi yo kunywa, uhagaze uvuga ijambo yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara.

Ni inzu nini iberamo inama irimo abantu bakeya, umugore uhagaze ufite mikoro, telefone mu ntoki, w'inzobe ufite imisatsi y'umukara idasutse.

Ni inzu nini isize irangi ry'umuhondo kurukuta; hariho amatafari ahiye hatoya, harimo urubyiruko rwinshi rugiye rutandukanye abahungu n'abakobwa

Ni inzu nziza igaragara ko iri kuberamo inama, ku bikuta byayo isize irangi ry'umweru, hicayemo abantu benshi bagiye batandukanyekanye, abagabo, abagore.

Ni inzu nini bigaragara ko iri kuberamo inama irimo abantu bagiye batandukanye abagabo n'abagore buri wese agiye afite mashini intebe bicayeho igihe iriho uturongo tw'umuhondo.

N' inzu iri kuberamo inama ku meza, hateretse isakoshi isize irangi ry'umukara ,amacupa menshi y'amazi iyo kunywa ,hari abantu batatu b'abagore.

Ni inzu nziza igaragara neza yubakishije amakaro hasi no hejuru ku rukuta kumeza hariho ibitambaro by'umweru amacupa y'amazi, harimo abantu benshi.

Ni inzu nini ishobora kuberamo inama zigiye zitandukanye, harimo intebe zisize irangi ry'umutuku kumeza hariho ibitambaro bifite ibara ry'umuhondo.

Ni inama y'abantu hahagaze umugabo w'imibiri yombi bigaragara ko ari ukuvuga ijambo inyuma ye hari icyapa gisize irangi ry'ubururu cyandikishije mu magambo y'umweru.

Ni inzu nini bigaragara ko iri kuberamo inama, yicayemo abantu benshi umwe ahagaze, imbere ku meza hariho igitambaro cy'ubururu na mashini, hari umugabo ufite telefone mu ntoki wambaye imyenda y'umukara.

Ni ahantu hubatse neza mu buryo bugezweho, hasi hari ibyatsi bigufiya, hicayemo abantu benshi bagiye batanduye, abakobwa n'abahungu

Ni inzu nziza igaragara neza, yubakishije amakaro ku bikuta, ku meza hariho amacupa y'amazi yo kunywa, mashini, ameza asize irangi ry'umutuku.

Ni inzu nziza igaragara neza, yubakishije amakaro hasi no kukuta, ifite ibirahure ku madirishya, hicaye abantu benshi bagiye batandukanye.

Ni inzu nini nziza cyane, ifite ibikuta by'umweru, hicayemo abantu benshi bagiye batandukanye, ku meza hariho ibitambaro bifite ibara ry'umweru, hateretse amacupa y'amazi.

`Ni ihuriro ry'abantu benshi bagiye batandukanye bigaragara ko abenshi muri bo ari urubyiruko. Abakobwa, abahungu bigaragara ko hari ibintu bajemo bigiye bitandukanye.

Ni inzu nini isize irange ryenda gusa umweru ku rukuta, hariho icyapa gisize irange ry'ubururu, hicayemo abantu benshi bagiye batandukanye bambaye imipira y'umuhondo.

Ni inzu irimo abantu babiri, umukobwa usutse ibintu by'umukara, wambaye agashati k'umutuku, mo imbere harimo akandi gafite ibara ry'umweru n'umukara, imbere ye hateretse icupa ry'amazi.

Ni foto y'abakobwa benshi, ubona ko bari kureba ikintu kimwe, bafite amatelefone manini, bari gufotora ibintu no gufata amavidewo.

Ni inzu yubakishijwe amakaro, ifite icyapa cy'umweru hariho ikirango cy'ubururu, cyerekana ko aho hantu hari enterinete umuntu wese yabasha kuyikoresha.

Ni ahantu hari umurima, hicaye umukobwa wambaye ijire rya emutiyene, hari icyapa cyanditseho irembo bigaragara ko bakora serivisi,

Ni umusore w'imibiri yombi wambaye linete, yambaye umupira usize ibara ry'umukara, yanyandikishije mu magambo y'umweru, ari kureba muri mashini handitsemo ijambo irembo.

Ni inzu nziza igaragara neza isize irangi ry'umweru ku nzugi ifite ibirahuri by'umukara yubakishije amakaro hasi mu nzu no hanze hateretse icyapa.

Ni umuhanda w’umukara, urimo abagenzi benshi bagenda n’amaguru b’abahungu. Hateye ibiti byinshi, ipoto iriho insinga zigemura umuriro. Ahantu hagiye hatandukanye hirya haparitse imodoka.

Ni umuhanda uparitsemo imodoka isize irangi ry'umweru indi isize irangi ry umukara irimo abanyamaguru benshi ibiti biriho insinga zigemura amashanyarazi.

Ni umuhanda usa nk'uwigitaka uparitsemo imodoka eshatu na moto imwe isize irangi ry'umweru irimo umuntu wambaye umupira w'umuhondo, indi yo isize irangi ry'umukara, hakurya hari amazu menshi.

Ni igikuta kiriho irangi ry'umweru, hariho icyapa cy'umweru, kirimo amagambo yandikishijwe mu mutuku ndetse n'umukara, kigaragaza amerekezo y'ahantu uri.

Ni umuhanda urimo imodoka nini itwara abagenzi. Hari umutaka wa mtn, ibiti byinshi, ipoto igemura amashanyarazi ahantu hose mu gihugu.

Ni umuhanda w'amabuye hirya hari inzu nziza cyane, Hirya hari igiti kinini kiriho insinga zigiye zitandukanye zigemura umuriro ahantu henshi, hirya hari ibiti.

Ni ahantu hari abantu bari kugenda n'amaguru bageze muri bane, igiti cy'ipoto kiriho insinga nyinshi zigemura umuriro ahantu hagiye hatandukanye, hirya hari inzu ifite,

Ni ipoto nini cyane iriho insinga zisize irangi ry'umukara, hariho abantu babiri baryuriye, bigaragara ko bari gucomeka insinga ngo zigemure amashanyarazi.

Ni umuhanda w'umukara hakurya haparitse imodoka, hari umutaka wa emutiyene hirya hari amazu ariho ibyapa byinshi, hari ipoto iriho insinga zigiye zitandukanye zohereza umuriro ahantu hagiye hatandukanye.

Ni umuhanda w'umukara urimo abantu babiri b'abasore bisa nkaho bari kwiruka, hirya hari umutaka wa Emutiyeni hahagazeho umusore wambaye igisurubeti cy'ubururu.

Ni umuhanda w'igitaka urimo umutaka wa emutiyene urimo abantu batatu umwe wambaye ishati ya emutiyene hirya hari inzu hafi yabo hari igiti kiriho insinga zigemura amashanyarazi.

Nziza zituye ahantu heza hari ikigega gifite ibara ry'umukara hari ifoto ndende iriho insinga igemura amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye inyuma y'inzu hari ibiti.

Ni inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye, hanze bari kwamamarizayo imyenda igiye itandukanye, iy'abagore ndetse n'iy'abagabo, haparitse imodoka ifite ibirahure ndetse hari insinga.

Ni umuhanda urimo abantu bagiye batandukanye; abamotari, abanyonzi, igikamyo kinini bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye isize irangi ry'umweru.

Ni igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, hanze ahagaze umuhungu wambaye umupira w'umweru niipantaro y'umukara, iruhande rw'igiti kinini kiriho insinga.

Ni inzu irimo abantu bicaye hanze ku ntebe benshi bagiye batandukanye bigaragara ko ari ibitaro hari imodoka isize irangi ry'umweru, umutuku n'bururu.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru hirya hari icyapa gisize irangi ry'umweru, cyandikishije amagambo y'umukara hirya hari inzu yubakishije amatafari ahiye bigaragara ko ari ibitaro.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru, umumotari n'imodoka imwe, hakurya hari akazu ka emutiyene mo imbere harimo umuntu inyuma hagaze babiri hirya hari inzu ndende isize irangi ry'umweru.

Ni ahantu hagaragarara neza nta byatsi birebire bihari nta n'imyanda iri muri jaride zihari, indabyo zaho ziraconze hirya haparitse imodoka.

Ni umuhanda w'igitaka haparitsemo imodoka isize irangi ry'umukara, isize irangi ry'umweru ku muryango hari umukobwa uri gufungura igipangu.

Ni inzu ifite imiryango isize irangi r'umweru ibikuta byayo bisize irangi ry'umuhondo hari abantu bane umugore wicaye nundi wicaye mu kagare.

N'umuhanda w'igitaka wegereye inzu nini iherereye i masaka n'ibitaro binini bakiramo abarwayi barwaye indwara zigiye zitandukanye, imbere hahagaze abantu benshi.

Ni inzu nini yubakishijwe amakaro irimo intebe nyinshi, ibikuta bisize irangi ry'umweru, hamanitsemo ibitambaro by'ubururu, amadirishya yabyo asize irangi ry'umukara.

Ni umuhanda w'umukara urimo abantu benshi bagiye bitandukanye, harimo abamama bahetse abana, hirya hari inzu ndende igeretse bigaragara ko ari ibitaro.

Ni inzu nziza cyane iri ahantu heza hatuje, hari isuku hateretse icupa risize irangi ry'umutuku hariho umugozi ufite ibara ry'umukara.

Ni icyumba bakiriramo abarwayi, harimo abantu babiri, umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'umurwayi bari kunyuza mu cyuma bigaragara ko afite indwara imurembeje.

Ni inzu nini yubakishijwe amatafari ahiye ifite amadirishya arimo ibirahure, hasi hubakishijejwe amakaro, hicaye abantu benshi abagore abagabo n'abana bigaragara ko baje kwivuza.

Ni inzu nziza cyane igaragara neza yubakishije amakaro hasi, hirya haparitse imodoka isize irangi ry'umukara hirya yayo hateye ibiti byiza.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka nyinshi, harimo iyisize irangi ry'umukara, hirya hari inzu ifite ibirahure by'umukara hari icyapa gisize irangi ry'umweru.

Ni umugabo w'igikara wambaye amarineti y'ibirahure, yambaye igishati cy'umutuku kirimo imirongo y'umukara n'umweru, mo imbere yambariyemo karuvati.

Ni inama y'abantu benshi bagiye batandukanye, bicaye ahantu hameze nko mu gashyamba, karimo ibiti byinshi, imbere hicaye abayobozi ku ntebe z'ibiti n'ameza y'ibiti.

Ni umugabo w'igikara wambaye ishati y'umweru karuvati y'ubururu irimo imirongo y'umweru, inyuma ye hari igitambaro gisize ibara ry'ubururu, bigaragara ko,

Ni inzu ndende yubakishije amatafari ahiye, hanze hahagaze abantu benshi bagiye batandukanye ku byaha, bakoze bari gukora imirimo itandukanye.

Ni inzu yubakishije amatafari ahiye afite amadirishya yumukara hanze hicaye abagabo benshi bambaye imyenda isa i roza.

Ni umugabo wirabura wambaye ishati y'umutuku karuvati y'umukara ishati y'umweru imbere harimo akantu gafite ibara ry'umukara.

Ni ifoto y'abantu benshi, bambaye imyenda y'umukara, agapira k'umweru iriho agatambaro k'umutuku, inyuma hari abandi benshi bambaye imyenda y'umukara, hirya hateye ibiti byinshi.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye abakobwa n'abahungu, umukobwa umwe yambaye ikanzu irimo uturongo tw'umweru n'umukara akaba afashwe n'abashinzwe umutekano.

Ni umugabo w’ imibiri yombi wambaye amarinete, ufite imisatsi y’umukara mikeya, wambaye imyenda isa nkiyabayobozi ba gisirikare.

Bafungiramo abantu bakoze ibyaha bigiye bitandukanye iherereye Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, imbere hari abantu bambaye imyenda y'iroza ushinzwe umutekano wabo ni inzu yubakishije amatafari ahiye.

Ni umugabo w'imibiri yombi urakaye, mu mumaso wambaye ingofero y'umukara rineti z'ibirahure wambaye ishati y'umutuku imbere harimo akantu k'umweru bigaragara ko atishimye.

Ni umugabo wirabura udafite umusatsi mwinshi ku mutwe, wambaye ishati ifite ibara ry'umutuku, mo imbere hasa umweru, ntabwo yishimye mu maso ye

Inzu nziza irimo abantu babiri bicaye ku ntebe isize irangi ry'umukara, bambaye amashati afite ibara ry'umutuku, umwe afite mikoro ku meza hateretse amacupa y'amazi.

Ni ahantu hateye indabyo nyinshi zifite amabara atandukanye hahagaze abagabo babiri, umwe yambaye imyenda y'iroza ikundwa kwambarwa n'abantu bagiye gufungwa, inyuma hari ushinzwe umutekano.

Ni umuhanda w'umukara, hakurya hari inzu igeretse, haparitse umumotari wicaye kuri moto, hari umugabo ushinzwe umutekano, hari imodoka iparitse,

Haparitse imodoka zigiye zitandukanye, harimo izisize irangi ry'umweru, indi isize irangi ry'umukara, hirya hari inzu igeretse ifite ibirahure by'umukara.

Ni ifoto y'abagabo benshi, bambaye imyenda y'abasirikale, bambaye inkweto z'umukara, n'imbunda bakoresha barinda umutekano, inyuma hari ijambo ryandikishijwe umukara.

Ni icupa risize irangi ry'umutuku ryandikishijeho amagambo asize irangi ry'umweru, hariho umugozi w'umukara bifashisha

Ni inzu yubakishije amakaro, hasi hateretsemo amacupa menshi asize irangi ry'umutuku. harimo imigozi isize irangi ry'umukara rigaragara.

Ni inzu ku bikuta yubakishije amakaro, hari icupa risize irangi ry'umutuku, ryandikishije mu magambo y'umweru n'ubururu, hirya hariho umugozi w'umukara bifashisha bazimya.

Mu muhanda w'umukara usa n'uwacukutsemo ikinogo gitoya urimo imodoka haparitse abamotari hirya hari inzu igeretse ziriho ibyapa bigiye bitandukanye.

Ni icupa risize irangi ry'umutuku ryandikishije mu magambo y'umweru, ifite umugozi usa umukara bayikoresha bari kuzimya umuriro ahantu hahiye.

Ni abantu benshi bahagaze ku murongo bagiye batandukanye, harimo abahungu n'abakobwa bambaye imyenda isa y'abashinzwe umutekano, ushobora kuba uwo mu muhanda cyangwa ahandi.

Ni inzu ntoya yubakishije amakaro hasi hahagaze abagabo babiri bambaye imyenda y'abashinzwe umutekano ifite ibirahure bisa umukara hejuru handikishije amagambo y'ubururu .

Ni inzu nziza isize irangi ry'umweru n'umukara ku gikuta, hasi hubakishije amakaro, hari icupa risize irangi ry'umutuku, hariho akagozi gafite ibara ry'umukara.

Ni inzu yubakishije amakaro hasi hateretse icupa risize irangi ry'umutuku hariho ibipapuro by'umweru hari indi umushumi w'umukara bifashisha bazimya umuriro.

Ni inzu igeretse ifite ibirahuri by'umukara hariho icyapa cy'umweru cyandikishije mu magambo y'ubururu hasi haparitse imodoka hirya hari abantu bagenda n'amaguru.

Ni inzu ndende ifite ibirahure bisize irangi ry'umukara hari icyapa cyandikishije amagambo y'ubururu ituye i Muhima hasi hari umuntu ushinzwe umutekano n'imodoka bakoresha.

Ni icupa risize irangi ry'umutuku ririho akapa gasize irangi ry'umukara n'umweru hejuru yaho hari umugozi munini uzinze w'umutuku n'umukara.

Ni imodokadoka isize irangi ry'umukara iparitse, hahagaze umugabo yambaye imyenda y'abashinzwe umutekano bigaragara ko uwari utwaye imodoka yari afite umuvuduko ukabije.

Ni inzu irimo abantu batanu bambaye imipira y'umweru ingofero z'umweru, amapantaro asa umukara, ku meza hari icupa ry'amazi yo kunywa.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye hari ibitambaro biri mu mabara y'umutuku, umweru, n'ubururu imbere hari umuyobozi w'igihugu perezida Paul Kagame niwe uri kuvuga ijambo.

N’ inzu irimo abantu bagiye batandukanye, abagabo n'abagore, imbere hicaye umugabo wambaye ikote ry'umukara ishati y'umweru karuvati.

Ni umukobwa wishimye mu maso ye w'inzobe wipfumuje ku matwi ufite umusatsi mukeya w'umukara bigaragara ko ari kuvuga ijambo afite mikoro mu ntoki.

Ni inzu nini iberamo inama zigiye zitandukanye, irimo abantu benshi bagiye batandukanye, hari umugabo wirabura wambaye imyenda ijya gusa, bigaragara ko ari we uri kuvugi.....

Ni umuhanda w'umukara urimo abamotari batatu n'umugenzi umwe ugenda n'amaguru, hirya hari icyapa kiriho ifoto y'umuyobozi w'igihugu, gisize mu irange ry'ubururu.

Ni umudamu uhagaze umeze nk'uri kuvuga ijambo wegereye mikoro inyuma ye hari ifoto y'umuyobozi w'igihugu perezida Paul Kagame yambaye ishati y'umweru.

Ni inzu mu muryango hahagazemo abantu batatu umugore w'imibiri yombi ufite imisatsi y'umukara wambaye ibitenge imbere hahagaze abana batoya babiri bambaye.

Ni inzu irimo abantu bagiye batandukanye abagabo n'abagore, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi, bicaye ku ntebe zisa umukara harimo uwambaye agapfufukamunwa.

Ni abantu benshi bicaye mu itente risize ibara ry'umweru mu kirangantengo cy'umutuku, imbere yabo hari umuyobozi w'igihugu perezida Poro Kagame inyuma ye hari ushinzwe umutekano.

Ni inzu yubakishijeje amakaro hasi irimo abantu bagiye batandukanye, abagabo n'abagore. Bigaragara ko bari kurahira bafashe ku idarapo ry'igihugu riri mu ibara ry'icyatsi n'ubururu.

Ni abantu babiri umugabo n'umugore umwe yambaye ikanzu y'umweru ikoti ry'umukara, yambaye amarinette n'ingofero y'umukara, umugore we yambaye umupira w'ubururu n'imishanana afashe,

Ni ihuriro ry'abantu benshi bagiye batandukanye abagabo, abagore, abana. Hirya haparitse imodoka isize irangi ry'umweru ifite ibirahure by'umukara bigaragara ko abantu baje kwiyamamaza.

Irimo umuyobozi w'gihugu perezida Paul Kagame n'umugore we wambaye agapira k'umukara ,imishanana y'ubururu, amarinete y'umukara, imisatsi isa umukara ,imbere hahagaze umuntu wambaye itabuririya y'umutuku.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye, abahungu n'abakobwa bahagaze imbere y'inzu isize irangi ry'ubururu umuhondo umutuku n'icyatsi ifite inzugi zisizeho irangi ry'umweru harimo n'amadirishya.

Ni abantu benshi bigaragara ko baje mu matora bagiye batandukanye abahungu n'abagabo, hari icyapa kiriho ifoto y'umuyobozi w'igihugu perezida Paul Kagame.

Urupapuro rw’ umweru rwandikishije mu mumagambo y’ ubururu, n’ umukara, iriho abagabo batatu bagiye batandukanye umuyobozi w'igihugu perezida Paul Kagame.

N'ifoto y'inzu nini iberamo inama, yicayemo abantu benshi. Buri wese agiye afite mashine, icupa ry'amazi, n'impapuro ziteretse imbere yabo.

Ni abantu benshi basa nk'abari kwamamaza bambaye imipira y'umutuku n'ubururu ingofero z'umweru, bafite akapa mu ntoki kanditseho efuperi.

Umuhanda urimo abantu benshi bagiye batandukanye abagabo, abagore harimo abambaye imyenda y'abashinzwe umutekano inyuma yabo hari amazu menshi yubatse mu buryo bugiye butandukanye.

Ni ahantu hanini bigaragara ko hari kubera amatora, hari urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye abagabo n'abagore, hateye ibiti birebire ndetse imbere hateye insina.

Ni abantu benshi bagiye batandukanyiye abagabo, abagore, abakobwa bigaragara ko ari abantu baje kwiyamamaza harimo umuhungu uri kugenda afotora.

Ni umugabo wirabura, wambaye rinete z'umukara, ingofero y'umweru, n'ubururu, imbere ye hari mikoro zigiye zitandukanye, harimo iy'ubururu.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye urubyiruko harimo abagabo abasore n'abakobwa bafite icyapa k'ikiganza gisize irange ry'ubururu n'umutuku.

Ni umuhanda urimo imodoka ebyiri z'umukara abamotari babiri bahatse abagenzi hariho n'umunyonzi ibiti ndetse na jaride hasi.

N'umuhanda w'umukara urimo imodoka nini y'gikamyo bifashisha abatwara imizigo igiye itandukanye, isize irangi ry'umutuku hirya hateye ibiti birebire bizitiye.

Ni umuhanda w'igitaka urimo abamotari benshi bicaye kuri moto, umwe inyuma ye hariho umufuka urimo ibintu usa umweru. Inyuma ye hari umugabo wambaye imyenda y'ubururu, hirya hari abagore.

Ni umuhanda w'umukara urimo abantu benshi, hagati harimo umunyamaguru uri kwambuka wambaye imyenda y’umukara, harimo imodoka ebyiri, hirya haparitse umu motari ndetse n'abagenzi.

Ni umuhanda w'umukara urimo abamotari bahetse abagenzi, abanyonzi, imodoka y'igikamyo bakoresha batwara imizigo, kirimo umuntu umwe, gisize irange ry'umutuku, bashobora gutwariramo ibitaka.

Ni umuhanda w'umukara urimo igikamyo kinini gipakiye, gisize irangi ry'umutuku, bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye, hirya hari ibiti birebire.

Ni umuhanda w'igitaka wegereye umuhanda w'umukara urimo abamotari, imodoka, abanyonzi, abantu bagenda n'amaguru, hirya hari inzu ndende isize irange ry'icyatsi.

Ni umuhanda urimo imirongo y'umweru, abagenzi bagenda n'amaguru, umumotari uhetse umugenzi, hirya hari ibikamyo binini n'imodoka ntoya isize irangi ry'ubururu.

Ni umuhanda w’umukara urimo moto iriho umugenzi n'umumotari, hari umunyamaguru uri kugenda, imodoka itwara imizigo igiye itandukanye isize irangi ry’umweru.

Ni umuhanda muremure w'umukara, urimo imodoka nini itwara abagenzi benshi. Isize irangi ry'umweru, ifite amadirishya. Hakurya hari ibiti birebire ndetse bizitiye.

Ni umuhanda urimo imodoka nini y'igikamyo bifashisha batwara imizigo irimo umuntu umwe uyitwaye, hirya hari ibiti birebire bizitiye byose.

Ni umuhanda urimo umuntu ugenda n'amaguru, imodoka nini bifashisha batwara abantu babavana ahantu hamwe babajyana ahandi. isize irangi ry’ umweru, ubururu ifite ibirahure byumukara.

Umuhanda urimo imodoka nini itwara ibintu bigiye bitandukanye isize irangi ry'umweru, hirya hari ibiti birebire ugarutse imbere yayo hari icyapa gisize irangi ry'umutuku.

Ni umuhanda w'umukara urimo umumotari udahetse umugenzi undi uhetse hirya hari ibiti birebire insinga zitwara amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka y'umweru imwe irimo umuntu inyuma hakurya y'umuhanda hari abagabo batatu ndetse n'ibiti biri ku murongo bizitiye.

Ni umuhanda w'umukara urimo umugenzi ufite igorofani n'umumotari uri kuri moto y'umutuku hakurya hari imodoka ihagazeho umugabo.

Ni muhanda w'umukara urimo moto ebyiri zitwaye abagenzi babiri, hirya hari igikamyo kinini bifashisha abatwara imizigo igiye itandukanye, hejuru hatwikiyeho shitingi y'ubururu.

Numuhanda wumukara urimo umumotari uhetse umugenzi, umunyonzi uhetse umugenzi, imodoka isize irangi ryumweru ifite ibirahure byumukara.

Ni umuhanda w'igitaka urimo umugenzi ugenda n'amaguru umumotari wicaye kuri moto imodoka nini bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye itwikirije shitingi y'ubururu.

Ni umuhanda munini w'umukara, uparitsemo moto nyinshi, abamotari ndetse n'abagenzi bari kugenda n'amaguru, hirya hari amatara ari kwaka, hakurya hari ibiti byinshi.

Ni umuhanda urimo imodoka ebyiri intoya isize irangi ry'umweru ifite ibirahure, indi isize irangi ry'ubururu, mo imbere harimo amakesi bifashisha babikamo amavide.

Ni umuhanda usa nk'uwigitaka uparitsemo imodoka nyinshi zitwara abantu bagiye ahantu hatandukanye imwe isize irangi ry'ubururu umweru ufite ibirahure by'umukara.

Numuhanda urimo imodoka nini yanditseho ritiko ifite ibirahure bisa umukara isize irangi ry’ umweru ubururu hirya yayo hari umunyamaguru wikoreye umufuka.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka itwara abantu benshi isize irangi r'yumweru isa nk'aho yakoze impanuka imbere ku kizuru cyayo, mu muhanda harimo abantu benshi bagiye batandukanye.

Ni umuhanda urimo umumotari utwaye umugenzi, imodoka y'igikamyo kinini kirimo umuntu wambaye umupira w'umweru gisize irangi ry'ubururu mo imbere harimo amavide.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru; wegereye undi w'amabuye haparitsemo imodoka ifite ibirahure byenda gusa umukara isize irangi ry'umweru

uyu muhanda w’ umukara urimo imirongo y ’ umweru isa nkigiye gusibama. iparitsemo imodoka nyinshi zisize irangi ry’ umweru, harimo abagenzi benshi bagenda n'amaguru.

Ni umuhanda w'igitaka urimo abantu babiri umwe ufite ingorofani, haparitsemo imodoka imwe hirya hari abamotari benshi ndetse n'izindi modoka z'umukara ziri kugenda.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka isize irangi ry'umweru ifite ibirahure, hari abanyonzi bahetse imifuka y'umweru irimo ibintu mo imbere.

Mu muhanda w'umukara urimo imodoka nini itwara abagenzi benshi bagiye ahantu hatandukanye ifite ibirahure bisize irangi ry'umukara hirya hari umugenzi ugenda n'amaguru hakurya hari ibiti.

Ni umuhanda w'umukara urimo moto bifashisha batwara imizigo isize irangi ry'ubururu yandikishije mu mumagambo y'umweru imbere yayo hari igikamyo kinini gisize irangi ry'umutuku.

Ni umuhanda urimo abanyonzi benshi badafite abagenzi, hirya hari abantu bari kugenda n'amaguru, bigaragara ko bwije ari mu masaha ya nijoro.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka nini y'ikamyo isize irangi ry'umweru, mo imbere harimo ipine ushobora kuyifashisha utwara imizigo igiye itandukanye uyivana hamwe uyijyana ahandi.

Ni umuhanda w'umukara urimo abantu babiri umwe yambaye ishati iriho ikirangantego cya emutiyeni n'imodoka y'igikamyo nini y'umutuku hirya hari ibiti bizitiye.

Ni umuhanda w'umukara hirya hari umuyamaguru uri kugenda wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara hirya haparitse imodoka isize irange ry'ubururu ifite ibirahuri by'umukara.

Ni umuhanda w'igitaka wegereye umuhanda w'umukara urimo igikamyo gitwikirije shitingi y'umukara, abamotari ndetse hirya haparitse imodoka n'amazu ahubatse maremare.

Umuhanda usa nk'ushaje urimo imodoka nyinshi zigiye zitandukanye, harimo isize irangi ry'umweru, indi isize irangi ry'ubururu, hari abanyamaguru benshi bagenda.

Ni umuhanda w'umukara; urimo imirongo y'umweru harimo imodoka zigiye zitandukanye, hari moto bifashisha batwara imizigo, hirya hari imodoka itwara abagenzi benshi.

NI umuhanda urimo igikamyo bifashisha batwara ibintu bigiye bitandukanye nk'imizigo. inyuma yayo hari umumotari, umunyonzi, hirya hari ibiti birebire bidufasha kubona umwuka.

Ni umuhanda muremure w'umukara urimo imodoka isize irangi ry'umweru ufite ibirahure by'umukara yandikishijeho amagambo y'umutuku hirya hari umutaka wa emutiyene hino hari abakiriya.

Ni umuhanda w'umukara urimo igikamyo, inyuma yacyo hari isize irangi ry'umutuku ifite ibirahure by'umukara hirya hateye ibiti birebire byinshi.

Ni umuhanda w'igitaka wacukutse bisa nkaho harimo n'amazi, hirya haparitse imodoka nini bifashisha batwara abantu bagiye batandukanye, isize irangi ry'ubururu n'umweru.

Ni umuhanda muremure urimo moto bifashisha batwara imizigo, imodoka isize irangi ry'umweru n'indi y'igikamyo niini bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye hakurya hateye ibiti byinshi .

Ni umuhanda w'amabuye uparitsemo imodoka isize irangi ry'umweru n'umukara, wandikishije mu magambo y'umutuku, bigaragara ko ari imodoka bakodesha ikagendamo,

Ni umuhanda w'umukara urimo umuntu ugenda n'amaguru harimo imodoka ntoya indi nini bifashisha batwara imizigo isize irangi ry'umweru.

Ni umuhanda w'umukara urimo umumotari umwe wicaye kuri moto, nta mugenzi afite. Hirya hari inzu igeretse ifite ibirahure by'umukara, hanze hateye indabyo

Ni umuhanda w'umukara uri mu modoka zigiye zitandukanye moto bifashisha batwara imizigo ifite irangi ry'ubururu hejuru hirya hari ibiti birebire inyuma hari imodoka isa nkitwara abantu benshi.

Ni umuhanda usa nkuwacukutse urimo umuntu umwe uri kugenda n'amaguru, hirya hari imodoka nini itwara abagenzi ibajyana ahantu hagiye hatandukanye, isize irangi ry'umweru n'ubururu.

Ni numuhanda w'umukara urimo ugendamo umuntu umwe, urimo imodoka nini bifashisha batwara imizigo isize irangi ry'ubururu, itwikirije shitingi y'ubururu imbere yayo hari ibiti.

Ni umuhanda usa nk’uwacukutse urimo imodoka nini bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye, isize irangi ry’umweru irimo umushoferi wambaye umupira w'umweru.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka ebyiri, imwe isize irange ry'umutuku, bashobora kuyifashisha batwara imizigo igiye itandukanye.

Ni umuhanda urimo imodoka nini bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye, isize irangi ry'umweru ifite ibirahure by'umukara hirya hateye ibiti byinshi.

Ni umuhanda w'umukara urimo umurongo w'umweru harimo igikamyo cyandikishijweho amagambo y'umukara utwikirijweho shitingi y'ubururu ndetse n'abantu iruhande rwabo.

Ni umuhanda wubakishije amabuye, urimo abantu benshi bagiye batandukanye, abahungu, abakobwa, n'abamama, wambaye ikanzu y'ubururu, umukobwa ufite amvelope mu ntoki.

Ni umuhanda w ’umukara urimo imirongo y’ umweru, Harimo umumotari wicaye kuri moto udafite umugenzi. Hirya hateye ibiti birebire, hari icyapa gisize irangi ry'ubururu.

Ni icyapa gisize irangi ry'umweru cyandikishije mu magambo y'umweru, mu mirongo y'umutuku, bigaragara ko nta gare ryemerewe guparika aho ngaho ko nihagira uhaparika bazamuhana.

Ni umuhanda w'umukara urimo umumotari, umugenzi ugenda n'amaguru, hari icyapa gisize irangi ry'ubururu mu magambo y'umweru, hirya hateye ibiti.

Ni icyapa gisize irangi ry'umweru, kizengurukije irangi ry'umutuku, mu magambo asize irangi ry’umukara hari inzu y’ubakishije amatafari ahiye.

Ni umuhanda munini w'umukara urimo imirongo y'umweru hari icyapa gisize irangi ry'umweru cyandikishije amagambo yumukara bigaragara ko ari akarere ka Rusizi.

Ni umuhanda urimo umugore umwe ufite ivalizi mu ntoki bifashisha babikamo imyenda, hari ibyapa byandikishije mu magambo y'umukara, mu ibara ry'umweru iherereye...

Ni umuhanda urimo imodoka amamoto, abagenzi bagenda n'amaguru, hino hari icyapa cyandikishijwe mu magambo y'umukara mu ibara ry'umweru rizengurukije ibara ry'umutuku.

Ni umuhanda w’umukara munzira zabagenzi harimo umuntu umwe, hari icyapa gisize irangi ry’umukara rizengurukije ibara ry'umutuku.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo yumweru urimo imodoka nini itwara abagenzi bagiye batandukanye ifite ibirahuri by'umukara isize irangi ry'umweru.

Ni icyapa gisize irangi ry'mweru azengurukijeho irangi ry'umutuku ryandikishije mu irangi ry'umukara inyuma yabo hariho irangi ry'ububururu.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru, hagati hari imodoka, hari icyapa gisize irange ry'umweru, umutuku, n'umukara, hirya hari ibi.

Ni icyapa gisize irangi ry'umweru hagati hasizemo irangi ry'umutuku cyandikishije mu magambo y'umweruro bisobanuye guhagarara.

Ni icyapa gisize irange ry'umweru, cyandikishije mu irange ry'umukara, izengurukijwe mu ibara ry'umutuku bigaragara ko bacishijemo umurongo.

Ni umuhanda w'amabuye urimo abagenzi bagenda n'amaguru, ni abagabo babiri. Haparitse imodoka ebyiri zisize irange ry'umukara n'irisize irange ry'umutuku, hirya hari indi modoka zikaba eshatu.

Ni inzu ndende igeretse ifite ibirahure by'umukara, ifite igipangu gisize irangi ry'umutuku, aho abantu benshi bashobora kubamo bishyura amafaranga atandukanye.

Ni ifoto irimo ibiti byinshi, inzu ngufi ifite amabati asize irange ry'umutuku, hirya hari inzu y'umweru ifite idirishya ry'umukara hari ibigega babikamo amazi by'umukara.

Ni umuhanda usa nkuw'igitaka urimo umumotari; hirya hari umuntu uhetse umwana ufite umutaka uri kugenda n'amaguru; hirya ye haparitse imodoka isize irangi ry'umweru indi ifite irangi ry'umukara.

Ni inzu nziza iherereye Remera ifite icyapa gisize irangi ry'umutuku, cyanikishije mu magambo y'umweru, iriho ifoto y'umugabo wambaye ingofero y'umutuku n'umweru.

Ni inzu igeretse, nziza iri ahantu heza ifite icyapa kirimo ibara ry'umweru, yandikishije mu magambo y'umukara, ni hoteli ahantu abantu bajya bagiye kurya no kunywa no kuryama.

Ni inzu ndende igeretse gatatu, ifite igipangu cyometseho amakaro, hejuru hasizeho irange ry'umukara, aho abantu benshi bashobora kuyibamo.

Ni amazu ageretse afite ibirahuri by'umukara, hafi aho hari amazu magufiya afite amabati asize irangi ry'umutuku, hirya yabyo hari ibiti bishobora kwifashisha dukuraho umwuka duhumeka.

Umuhanda usa nk'uwigitaka urimo urujya n'uruza rwabantu benshi, abamotari, imodoka isize irangi ry'umweru ndetse na moto ziparitse hari abantu bambaye imyenda.

Ni inzu igeretse ifite igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye hejuru hasize irangi ry'umweru hateye ibiti mu imbere mu gipangu.

Ni numuhanda urimo imodoka isize irangi ry'umweru, ifite ibirahure by'umukara harimo umumotari, umunyamaguru, hirya ya haparitse imodoka isize irangi

Ni inzu nziza cyane iteye ahantu heza isize irange ry'umweru ifite ibirahure by'umukara hateye ibiti byinshi bimwe mubikurura umwuka mwiza duhumeka abantu.

Ni nzu ndende igeretse cyane, ifite ibirahure bisize irange ry'ubururu n''icyatsi, hirya hari ibikuta bisize irange ry'umuhondo, hasi hari ibiti.

Ni umuhanda w'igitaka, hirya yawo hari inzu nziza cyane igeretse isize irangi ry'umweru, ifite ibirahure ku madirishya, hanze hateye ibiti birebire.

Ni igipangu cyubakishije amatafari ahiye hejuru hariho amatara, mimbere hari inzu ndende igeretse igaragara neza ifite ibirahure by'umukara.

Ni umuhanda munini urimo abagenzi bagenda n'amaguru, abamotari, imodoka ziparitse, inzu igeretse ifite ibirahure by'umukara n'ibyapa.

Ni inzu ifite amabati agaragara nk'ayashaje asize irangi ry'umutuku hirya yayo hari amazu menshi yubatse mu buryo bugiye butandukanye ndetse hateye n'ibiti birebire cyane.

Ni umuhanda w'amabuye haparitse imodoka nyinshi zisize irange ry'umukara, hirya hari inzu igeretse ifite ibirahure by'umukara bigaragara ko ari iy'ubucuruzi.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka y'umweru n'iy'umukara, hakurya hariho umutaka wa Emutiyeni n'inzu igeretse n'ahandi gatoya bacururizamo imyenda.

Ni umuhanda w'umukara hirya hari amazu menshi aherereye i Kanombe, amwe afite amabati asize irangi ry'umutuku, hari ibiti bigemura amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye.

Ni ahantu hari icyapa gisize irangi ry’ubururu cyandikishije mu magambo y’ umweru. haparitse imodoka isize irangi ry’umukara hirya hari inzu igereka.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka nyinshi zigiye zitandukanye, abamotari benshi abanyamaguru hirya hari inzu ndende igeretse iriho ibyapa byinshi.

Ni ikiro gifite umuhanda wo hejuru no hasi, hari moto itwaye umugenzi hirya hari igikamyo gisize irange ry'umweru kirimo abantu hejuru, hejuru ku kiraro nta modoka n'imwe ihari.

Ni umuhanda w'umukara urimo abamotari benshi bahetse abagenzi harimo pasikarumu hagati mu muhanda hirya hateye ibiti birebire.

Ni umuhanda w'umukara hejuru hari ikiraro kiriho undi muhanda hateye ibiti byinshi birebire n'ibyatsi hasi byiza bitarimo imyanda.

Ni umuhanda w'igitaka muremure urimo moto bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye, isize irangi ry'ubururu, hirya yayo hateye ibiti birebire.

Ni umuhanda wumukara muremure urimo imodoka nyinshi zisize irangi ry'umukara n'umweru inyuma hari umumotari umwe hirya hateye ibiti byinshi cyane.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru isa nk'iri gusibama, umumotari uhetse umugenzi imodoka, hirya hari igikamyo gisize irangi ry'ubururu bifashisha batwara imizigo.

Ni umuhanda w'umukara usa nk'ushaje, urimo umumotari uhetse umugenzi, imbere ye hari igikamyo kinini gitwara imizigo igiye itandukanye, gisize irangi ry'umutuku.

Mu muhanda w'umukara urimo imodoka imwe, isize irangi ry'umukara, hirya hateye ibiti byinshi bigiye bitandukanye, biduha umwuka duhumeka.

Ni ifoto icuritse y'umuhanda w'umukara urimo moto eshatu ziriho abagenzi, igikamyo gisize irangi ry'umweru harimo uturongo tw'umutuku, itwikirije shitingi y'ubururu iri munsi y'ikiraro.

Ni umuhanda urimo imodoka ebyiri, isize irangi ry'umutuku irimo umuntu, indi isize irangi ry'umweru, hirya hateye ibiti byinshi.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka zigiye zitandukanye; harimo iyisize irangi ry'umweru, moto bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru abamotari bahetse abagenzi, moto zitwara imizigo igiye itandukanye, umunyonzi uri kugenda n'amaguru mu nzira z'abagenzi.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru, urimo abagenzi batatu bagenda n'amaguru bigaragara ko bari kwambuka, imodoka iparitse, moto zihetse abagenzi, hirya hateye ibiti byinshi.

Ni umuhanda w'umukara urimo igikamyo kiri kurenga, hari icyapa cyandikishije ibara ry'umukara mu ibara ry'umweru rizengurukije ibara ry'umutuku, hirya hateye ibiti.

Ni umuhanda munini urimo abantu bari kugenda n'amaguru, hirya hateye ibyatsi n'ibiti birebire bigiye bitandukanye biduha umwuka wo guhumeka mwiza akadutera ibibazo.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru, harimo umumotari umwe inyuma hari undi, hirya hari umugenzi ugenda n'amaguru, i bumoso hateye ibiti.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo igiye itandukanye, harimo moto imwe, hirya hari abanyamaguru, hirya yabo hateye ibiti byinshi bigiye bitandukanye birebire.

Ni umuhanda wumukara urimo imirongo y’umweru, umumotari uhetse umugenzi inyuma hari imodoka y’umutuku hirya hateye ibiti birebire byinshi.

Ni umuhanda wo hasi no hejuru ku kiraro, harimo imodoka nyinshi, umunyonzi utwaye umugenzi ku igare, hirya hateye ibiti byinshi birebire bigera ku kiraro cyo hejuru.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka nyinshi zitandukanye, harimo isize irangi ry'ubururu, umwe imbere hari akantu kaka k'umutuku ifite ibirahure by'umukara.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru urimo imodoka isize irangi ry'umukara umumotari wicaye kuri moto, hirya ye hateye ibiti hari umugenzi ugenda n'amaguru.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru, harimo imodoka, abamotari bahetse abagenzi, hirya hateye ibiti birebire

Ni umuhanda w'umukara ufite ikiraro hejuru kiriho undi muhanda, hasi harimo abamotari, umugenzi ugenda n'amaguru, uwicaye ku igare, hirya hateye ibiti byinshi.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru, umuntu uhagaze bigaragara ko ari kugenda n'amaguru, imodoka isize irangi ry'icyatsi, hirya hateye ibiti byinshi.

Mu muhanda wo hasi no hejuru hari ikiraro, hari icyapa cyandikishije mu magambo y'umukara mu ibara ry'umweru kizengurukishijwe ibara ry'umutuku hahagaze umuntu umwe.

Ni umuhanda w'umukara urimo umumotari uhetse umugenzi, umuyonzi uri kugenda ku igare. Hirya hari igikamyo kinini gitwara imizigo myinshi kiyivana mu gihugu kimwe, kijyana mu kindi.

Ni umuhanda w'umukara usa nk'ushaje urimo imodoka isize irange ry'umweru ifite ibirahure by'umukara, hirya hateye ibiti byinshi bigiye bitandukanye.

Ni umuhanda w'umukara urimo moto ziriho abagenzi n'abamotari, imodoka, hirya hari umunyonzi wicaye ku igare, hateye ibiti hirya byinshi.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru, harimo umumotari uhetse umugenzi, hirya hateye ibiti byinshi, hari icyapa gisize irangi ry'umutuku n'umweru.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru, harimo imodoka y'umukara ifite ibirahuri by'umukara, harimo moto ihetse umugenzi, hirya hari icyapa cy'umutuku n'umweru.

Mu muhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru imodoka nyinshi, amamoto hari ibyapa biri kwaka umutuku, bigaragara ko ari ibiyobora abagenzi ndetse n'imodoka, n'abagenda.